Hari abantu benshi bagiye batandukanye, hari abari mu mahema ndetse hari n'abicaye, bigaragara ko bose bateze amatwi imbwirwaruhame, barimo barahabwa iri kuvuga ku ngingo runaka.

Abantu bitabiriye inama y'ikigo runaka, bakaba bakurikiye umuntu uri kuvuga ku nsanganyamatsiko yabahurije hamwe muri iyo nama, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha kuzirikana ibyavugiwe mu nama ndetse bakabyandika.

Ni abantu bicaye ahantu hari ameza afite ibara ry'umweru, hakaba hari umugabo umwe ufite indangururamajwi, urimo uratanga ikiganiro wambaye amarineti ndetse n'isaha.

Ni abantu bicaye hamwe n'undi uhagaze, bakaba bari ahantu hashashe ibitambaro by'umweru, bakaba bafite impapuro, bigaragara ko hari ibintu barimo barigishwa, cyangwa bari gusobanurirwa.

Aha hari abantu bagiye batandukanye bose bafite za mudasobwa, abandi bo bafite amakayi n'amakaramu, bikaba bigaragara ko ari inama barimo buri wese akaba arimo arandika ingingo z'ingenzi ziri kuvugirwa muri iyo nama.

Aha hari umuntu uhagaze imbere akaba ari gutanga imbwirwaruhame mu bintu bijyanye no gushora amafaranga kuko ahantu ahagaze biragaragara ko aribyo bihanditse ndetse hakaba hari n'abantu bicaye imbere bari gukurikirana iyo mbwirwaruhame ari gutanga.

Aha hari abantu bagiye batandukanye bigaragara ko ari urubyiruko kuko urabona ko nta muntu ukuze cyane muri bo. Bakaba baje mu nama, bakaba bari kwigishwa ibintu bigiye bitandukanye bibafitiye akamaro.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hari ameza ashasheho ibitambaro bisa umweru, ndetse hatereretse n'amacupa y'amazi, bikaba bigaragara ko baje mu mahugurwa cyangwa, mu nama runaka, hari ibintu bari kwigishwa.

Hari abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye bicaye ubona bateze amatwi ndetse bitonze bigaragara ko ari nk'umuntu batege amatwi uri kubaha imbwirwaruhame akaba wenda ari gutsindagira ingingo z'ingenzi.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu bafite ibikoresho bijya bitandukanye urugero nk'igitiyo, amajerekani ndetse n'ibindi byinshi. Bikaba bishoboka ko bamaze gukora nk'umuganda, bakaba bari mu nama imwe iba nyuma y'umuganda.

Ni umugore wambaye ikanzu y'amabara ndetse yanarengejeho akantu k'agashati gasa umukara, akaba arimo aratanga imbwirwaruhame ivuga ibijyanye n'icyo ikigo akorera ibintu gikora.

aha hari abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose harimo abasuriye abakecuru ndetse n'abasaza bikaba bigaragara ko ari inama bajemo bakaba bicaye bateze amatwi kugira ngo bumve ibyo barikubwiye

Hari abantu bicaye bagiye batandukanye, harimo n'uwambaye impuzankano ya gisirikare n'abandi bagiye bambaye imipira y'ubururu benshi, bakaba bicaye imbere y'ameza ariho indabo, bikaba bisa nkaho ari ibirori bajemo cyangwa undi muhango ubahurije hamwe.

Ni abantu benshi bicaye ahantu imbere yabo hari umuntu bahagaze uri kubaha imbwirwaruhame, bikaba bishoboka ko hari amahugurwa barimo cyangwa inama bakaba bitonze bose bateze amatwi.

Inama cyangwa se amahugurwa, ikaba irimo abantu b'ingeri zitandukanye, ndavuga abagore abagabo, abasore, akaba ari inama ishobora kuba iri kwiga ku nsanganyamatsiko runaka, abayirimo barakurikiye bari gukurikira uri kuvuga imbere.

Aba ni abantu bicaye imbere y'abandi, bakaba bari kuvuga ku bintu bijyanye n'ubukerarugendo ndetse muri bo hakaba harimo n'umunyamahanga, bigaragara ko bari kungurana ibitekerezo kuri iyi ngingo y'ubukerarugendo.

Ni abantu bari mu nama, bikaba bigaragara ko bafite n'uducupa tubateretse imbere yabo tw'amazi, bakaba bari gukurikira imbwirwaruhame bari guhabwa. Bigaragara ko hari ingingo z'ingenzi bari kwigiramo.

Aha hari abantu bagiye batandukanye ndetse imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bikaba bishoboka ko baje mu nama, bakaba bose bateze amatwi kugira ngo bumve ibintu bari kubwirwa.

Ni abantu benshi bicaye bakiri bato, bambaye impuzankano bigaragara ko abanyeshuri, imbere yabo hari umugabo uri kubaha imbwirwaruhame, na bo baricaye bateze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kubagezaho.

Ni abantu bicaye benshi bagiye batandukanye, baturuka mu bihugu by'ingeri zose, bakaba bafite n'uducupa tw'amazi, imbere yabo ndetse n'utuntu tw'udukayi bari kuguma bandikaho, bigaragara ko bari nko mu mahugurwa.

Aha hari abantu benshi, bari kwifotoza, bakaba barimo abantu b'ingeri zose urugero abagabo, abagore ndetse n'abasore ndetse n'inkumi, bikaba ari ibintu ubona byiza cyane.

Ni abantu benshi bicaye ku meza y'uruziga, bafite za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bakaba bari mu nama, bakaba ari nk'abakozi b'ikigo runaka bari kuganira ku kuntu bahindura imikorere, bityo bagatera imbere kurushaho.

Ni abantu benshi bicaye ahantu, abenshi bafite za mudasobwa ndetse na telefoni bakaba bicaye bose bari kureba imbere bishoboka ko ari nk'umuntu uhari uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Amacumbi akodeshwa, azwi ku izina rya aparitema, aherereye ku muhanda wa keyiji magana arindwi mirongo icyenda na gatatu esite ku gipangu cya makumyabiri n'icyenda.

Uyu ni umugabo wicaye ahantu ari gukoresha imashini, ku ruhande rwe rw'iburyo hari undi mugabo w'umuzungu ufite imisatsi miremire ndetse n'ubwanwa burebure, akaba ari ahantu banywera agakawa heza cyane.

Ni ahantu hafite umuryango w'umuhondo wanditseho Irembo, mo imbere hakaba harimo akuma gacapa impapuro, kakaba gateretse ku gasanduku k'umweru nako kanditseho Irembo. Aha hantu bikaba bigaragara ko hatangirwa serivise z'Irembo.

Ubu ni uburyo ushobora gukoresha ukisabira zimwe muri serivisi batanga ku rubuga rw'irembo urugero nko kwisabira uruhushya rwo gukorera ikinyabiziga ndetse hari n'izindi serivisi zigiye zitandukanye zitangirwa kuri urwo rubuga.

Uru ni uruzitiro rukaba ruzitira ahantu hari umunara cyangwa ipoto y'amashanyarazi, kuri urwo ruzitiro hakaba hariho akapa kariho ibintu umuntu agomba kwitondera mu gihe aca aho hantu kugira ngo ubuzima bwe budahura n'akaga.

Hari abantu bagiye batandukanye, bicaye bafite za mudasobwa imbere yabo, bakaba bishoboka ko ari abakozi b'ikigo runaka, bakaba bari mu nama hari ibintu by'ingenzi bari kuganiraho, kugira ngo banoze imikorere y'ikigo cyabo.

Iki ni icyapa kiriho uburyo ushobora gukoresha ukabasha kubona serivisi z'irembo, hano berekanye uburyo ushobora gukoresha ukaba wakwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, si ibyo gusa ndetse hari n'ibindi byinshi.

Aha ngaha hari fomu yo kwiyandikisha, kugira ngo ubashe kuba umwe mu banyamuryango b'ikigo cy'ubuhinzi cyo mu Rwanda, cyitwa MINAGRI. Mu bintu usabwa kuzazu hakaba harimo amazina, nimero ya telefoni, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hari ibyuma by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, na za mudasobwa ndetse n'akuma gafite umumaro wo gucapa impapuro ndetse hari n'akabati k'umweru gateretsemo ibitabo.

Iri ni itangazo ry'urubuga rwa Irembo, ryerekanaga ko hari serivisi nshya bazanye batari basanzwe bafite, izi serivisi nazo zikaba zarongewe ku zindi batangaga, umuntu akaba yagenda, aza akazihabwa.

Uyu ni umunara ukikijwe n'uruzitiro rw'icyuma ndetse ku ruhande hari n'akazu gafite umuryango usa umukara, muri urwo ruzitiro harimo n'ibindi byuma bikaba na byo bikorana n'uwo munara.

Aha hari umunara, uyu munara kurande yawo hakaba hari ibindi byuma, bifatanya nawo kugira ngo bibashe gukora neza. Byose bikaba biri mu ruzitiro rw'icyuma ndetse kuri urwo ruzitiro hakaba hariho n'ibintu, byizingazinze bisongoye, bibuza kuba abantu bakinjiramo imbere, batabiherewe uburenganzira.

Ni abantu babiri bahagaze munsi y'umutaka w'umuhondo w'ikigo cya MTN gikorera mu Rwanda, imbere yabo hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi rikaba rifite akamaro ko kujyana amashanyarazi mu ngo.

Aha hari ibiti ndetse hari n'ipoto rirerire cyane ririho itara ryo ku muhanda, iryo tara ryo ku muhanda rikaba rifite akamaro ko kumurika, bityo abantu ndetse n'ibinyabiziga bari kugenda muri uwo muhanda bikabasha kubona urumuri.

Ni amazu agiye atandukanye ndetse imbere yayo hari ipoto rinyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, izi nsinga zikaba ziba zigenda zijya muri izo ngo ziri hafi aho.

Ni amazu, ruguru yayo hakaba hari umunara muremure ucaho insinga zitwara amashanyarazi, izo nsinga zikaba ziba ziva aho zivanye umuriro zigakomereza mu ngo z'abaturage.

Uyu ni umunara ukoze mu byuma ukaba ufite akamaro ko kunyuzwaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ziba zivuye ahantu hamwe zijya ahandi zikaba zijya mu ngo z'abantu bityo abantu bakabasha kubona umuriro wo gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni umunara, uyu munara ukaba uba uriho insinga z'amashanyarazi zigiye zitandukanye, ukaba aba uzijyana hamwe uzivanye ahandi, zikaba zijya mu ngo z'abantu bagiye batandukanye.

Aha hari umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda kizwi nka emutiyeni ndetse hakaba hari n'abantu bawuri munsi hakaba harimo umwe w'umukozi w'icyo kigo, ndetse n'abandi babiri baje kwaka serivisi z'icyo kigo.

Aya ni amapoto ariho y'icyuma gishinzwe gusakaza umuriro w'amashanyarazi, iki cyuma kikaba gifite akamaro ko kuba kiwugabanya, kigatuma niba uje ari mwinshi kiwugabanya bityo ntubashe kujya mu ngo ari mwinshi ngo ube wakangiza, ibintu biri mu ngo z'abantu.

Aha ni ku muhanda ku ruhande hari ibiti n'icyapa ndetse hari n'itara rimurika mu muhanda, si ibyo gusa ku ruhande hari umugore uhagaze ufite umufuka ndetse n'akabasi.

Uyu ni umuhanda ku ruhande yawo hakaba hari amazu aberamo ubucuruzi, abanyirayo bakaba barahisemo neza kuba barahisemo gukorera ubucuruzi bwabo hafi y'umuhanda kuko bituma bagerwaho n'abantu benshi.

Imodoka itwara abantu benshi izwi nka bisi, ikaba ifite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'iry'umweru hasi. Hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, bafite ahantu berekejwe.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, bikaba bisa nk'aho bari ku ivuriro, cyangwa ikigonderabuzima, bakaba batonze umurongo, kugira ngo buri wese nagerwaho, ahabwe serivisi zijyanye n'ubuvuzi yaje kwaka.

Bimwe mu bitaro bikomeye byo mu Rwanda, kuvuga ibitero byitiriwe umwami Faisal biherereye hano Kacyiru, kandi abantu bari kugenda babigana kugira ngo bahabwe ubuvuzi cyangwa izindi nama z'ubuzima.

Mu nyubako ndende, iruhande rwayo hari izindi nyubako ziri ahantu hari gusohoka imodoka, iyo modoka ikaba ahantu iri gusohoka handitse ngo imodoka z'ibitaro, bigaragara ko nayo ari iy'ibitaro.

Ni umugore uhagaze uri kuri terefone akaba asohotse ahantu hari inyubako ndende ndetse bigaragara ko bishobora kuba ari nk'ibitaro, kuko hahagaze imbangukiragutabara imbere yayo.

Ni ubusitani bwiza butoshye kandi ubona ko bwitabwaho burimo n'ibiti birebire, bukaba ari ubw'inyubako iri hafi ndende, na yo nziza ikoreramo ikigo runaka gikomeye.

Ni ahantu hari umugore wambaye igitenge ndetse n'umupira w'imbeho, akaba ari kugenda amanuka agana ahantu hari amamodoka, ku ruhande hakaba hari icyuma kirekire gishobora kuba gifite ikintu runaka gikora.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, bishoboka ko ari abacamanza, bakaba bamanitse amaboko yabo y'uburyo, bigaragara ko bari kurahirira indahiro runaka.

Aha ni muri gereza yitiriwe igihumbi, magana acyenda, mirongo itatu kuko aribwo yubatswe, hakaba harimo abafungwa bambaye imyenda isa oranje ndetse n'umucungagereza, wambaye imyenda isa kake.

Hari umugabo wambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye, ku ntugu birasa umutuku, mu gatuza harimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru ndetse mo imbere yambayemo ishati nayo ijya gusa umweru.

Aha hari umugabo wambaye amataratara y'umukara ndetse n'ishati ijya gu gusa umweru, bikaba bigaragara ko ari mu maboko atari aye, kuko afashwe n'abapolisi babiri, bigaragara ko hari icyaha akekwaho.

Ni abantu bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye neza bigaragara ko hari ikigo runaka bakorera, bakaba bihurije hamwe kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Ni abantu bagiye batandukanye bicaye, hari umugabo ubicaye imbere ndetse hari n'undi uhagaze ndetse hari n'amashusho yerekanwe ari ku rukuta ku ruhande rw'iburyo. Bigaragara ko ari nk'inama barimo.

N'abantu bari kugenda hafi y'umuhanda, hakaba hari umugore wambaye igitenge ndetse n'umupira, n'umugabo uri kugenda inyuma ye, ku ruhande mu muhanda hakaba hari imodoka ya polisi iri kuhagenda.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo icyanditseho ngo sura u Rwanda, kikaba ari icyapa gishishikariza abantu bo mu mahanga, kuza kugira ngo birebere uko u Rwanda ari rwiza.

Ni utuntu tubiri duhagaze tw'umutuku dufite akantu k'icyatsi hejuru, ndetse n'umupira w'umukara, tukaba dufite akamaro ko kuzimya inkongi y'umuriro, tukaba tuzwi nka kizimyamwoto.

Ni abantu bahagaze ku murongo, bose bambaye impuzankano kandi bafite imbunda, bikaba bigaragaza ko ari abapolisi, bakaba bafite akamaro ko kuducungira umutekano bityo dukumva dutuje.

Aha ni ku muhanda, hakaba hari akayira k'abanyamaguru kariho abantu bagiye batandukanye bari kujya muri gahunda zabo ndetse hari n'ushinzwe umutekano uhagaze kugira ngo arebe ko ibintu byose bimeze neza.

Ni inyubako yanditseho zigama, imbere yayo hakaba hahagaze imodoka, ya polisi, iyi modoka ikaba ifite akamaro ko gutwarwamo nk'abantu bafashwe bari mu bikorwa bitemewe n'amategeko.

Ni umugabo wambaye impuzankano ya gipolisi, akaba afite akuma k'ikoranabuhanga, akaba ari gukoresha irangamuntu afite kugira ngo arebe niba nyiriyo ndangamuntu nta kosa afite, nyiriyo ndangamuntu akaba ari muri iyo modoka iri hafi y'uwo muntu.

Sitasiyo ya polisi yo ku Gisozi, ahakurikiranirwa ibikorwa bifitanye isano no gucunga umutekano muri ako gace ka Gisozi ndetse hakaba hashobora kwifashishwa mu kuba hashyikirijwe abanyabyaha mu gihe bagikurikiranwa.

Aha ni ahantu ku muhanda, hakaba hahagaze umwe mu bashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi, bakaba bafite akamaro ko kuducungira umutekano bityo ntihagire ikintu cyaduhungabanya.

Ni umugabo wicaye yambaye ikoti ndetse n'ishati, akaba yicaye imbere y'amamikoro amutunze imbere, ndetse hakaba hari n'agacupa k'amazi kamuteretse imbere.

Uyu ni umugore wicaye wambaye ishati y'umweru, hakaba hari impapuro zimuteretse imbere ndetse hakaba hari n'ibendera rimuri imbere, bikaba bishoboka ko ari nk'umunyapolitike cyangwa akaba afite ikindi kigo akorera gikomeye.

Imibare yavuye mu ikusanyamakuru ya Minisiteri imwe yo mu Rwanda MINALOC, ikaba ari imibare yakozwe muri bibiri na cumi na kabiri ikaba igiye igaragaza abaturarwanda guhera ku mujyi cyangwa se intara, ku karere ku mirenge ndetse no mu tugari no mu midugudu.

Ni abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye hakaba hari umugabo wambaye amataratara ufite icyuma bakoresha bafotora bikaba bigaragara ko ari nk'amashusho ari gufata y'igikorwa kiri kubera aho.

Ni abantu bicaye ahantu ari benshi, bigaragara ko ari inama, cyangwa amahugurwa bajemo, bakaba bamwe bicaye bafite utuntu bari kwandikaho, zimwe mu ngingo z'ingenzi, ziri kuganirwa aho ngaho.

Umugore wambaye ishati y'umweru, afite urupapuro imbere ye ari kwandikaho, ndetse ku meza ari kwandikiraho ateretseho ibindi bintu bigiye bitandukanye, akaba afite umusatsi mwinshi bakunze kwita ko ari karemano nta bindi umuntu yigeze yongeraho.

Ni abantu benshi biganjemo abagore, bafashe ku mabendera bamanitse ikiganza cyabo cy'iburyo, bikaba bigaragara ko bari kurahirira indahiro runaka.

Aha ni ahantu hari abaturage benshi bagiye batandukanye aho bari baje gushyigikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ukabona ko bamwishimiye ndetse bamushyigikiye ko yakongera kubategeka.

Uyu ni umuhanda, urimo ipikipiki y'amapine atatu, ifite ibara ry'ubururu, iyi pikipiki, ikaba izwiho ku kwiyikorera imizigo, kuko inyuma ifitemo umwanya munini wo kujyamo imizigo myinshi.

Ni umuhanda, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo amapikipiki, amapikipiki akaba afasha abantu mu ngendo zabo za buri munsi, kuko azihutisha kurusha ibindi binyabiziga bashobora gutega.

Ni umuhanda urimo abantu bari kugendamo ndetse harimo n'umunyonzi utwaye igare, iruhande rwe hari igikamyo gifite ibara ry'icyatsi, cyikoreye ibintu bishobora kuba ari nk'umucanga cyangwa amabuye, kikaba kibijyanye kuri ba nyirabyo.

Aha hari umuhanda ndetse hari n'imirongo abanyamaguru bambukiramo kugira ngo aba batwaye ibinyabiziga bahagere bagende gake bityo abantu babashe kwambuka neza ndetse hafi y'iyo mirongo hari amapikipiki ariho abantu bayatwara.

Uyu ni umuhanda, ukaba urimo imodoka nini izwi nk'igikamyo, ifite ihema ry'umukara riyitwikiriye hejuru bigaragara ko hashobora kuba arimo ibintu itwaye ndetse ikaba imbere yayo hari moto ndetse n'izindi modoka, bikaba bigaragaza ko ari umuhanda ugendamo ibibinyabiziga bitandukanye.

Ni umuhanda urimo umugabo uri kugenda afite agafuka mu ntoki ndetse mu muhanda iruhande rwe hari ikamyo y'umweru ndetse n'indi modoka y'umweru, iyi kamyo ikaba irimo ubusa.

Uyu ni umuhanda, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urugero hari ikamyo yikoreye ibintu byinshi ndetse n'amapikipiki abiri, imwe iriho umugenzi indi ntago ariho.

Imodoka nini, izi zitwara abagenzi, ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ikaba iri kugenda mu muhanda irimo abagenzi benshi, kuko urabona ko hari n'abahagaze.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo igare, moto, ipikipiki yaba iy'amapine abiri ndetse n'atatu ndetse n'izindi modoka, ubu akaba ari ibintu byiza cyane kuko bifasha abagenzi kugera aho bagiye.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'ingeri zitandukanye, hakaba hari ikamyo iriho ihema hejuru ry'ubururu, bigaragara ko ari ibintu biriho bitwikiriye ndetse hari n'indi kamyo iyiri inyuma.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'amoka agiye atandukanye, urugero nk'imodoka, bisi ndetse na moto. Ubu bukaba ari ubwikorezi bw'abantu n'ibintu butuma babasha kugera aho bagiye mu buryo bwihuse.

Aha ni ahaparika imodoka nini zitwara abagenzi, ubu bukaba ari ubwikorezi bw'ibintu bw'abantu bwiza kandi bwihuse, kuko bufasha kuba bwatwarira abantu benshi icyarimwe kandi ku giciro gito.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse hariho n'igare ririho umuntu. Ruguru y'umuhanda hakaba hari ibikamyo byinshi bihagaze.

Ni umuhanda urimo ikimodoka kinini kizwi nk'ikamyo kikaba gifite urusanduku runini rw'ubururu ndetse bikaba bigaragara ko hari ibintu cyikoreye kijyanye, ruguru yacyo hari abantu babiri bari kuzamuka.

Aha hari imodoka nini izwi nk'igikamyo ndetse hari n'ibindi byinshi biri imbere yayo, iyi ikaba ari imodoka ikunze gukoreshwa hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, mu bijyanye n'ubwikorezi kuko ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu byinshi kandi ikaba yihuta.

Ni ahantu ku muhanda hari igikamyo kinini cyane cy'umweru, ndetse kuri uwo muhanda hari ahantu hari icyapa cyamamaza inzoga bishoboka ko ari akabari, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo guhita berekana ko aho hantu wahasanga ibinyobwa bisembuye.

Aha hari imodoka nini bita ikamyo, ikaba bigaragara ko ari iy'uruganda rukora ikinyobwa cyitwa Uruvange, iki kikaba ari ikinyobwa gikunzwe kunkwebwa mu Rwanda kubera uburyohe bwacyo budasanzwe.

Iyi ni moto y'amapine atatu, ikaba ari moto ifasha kuba abantu bakikorera ibintu bigiye bitandukanye, bitabasha kujya kuri moto isanzwe y'amapine abiri, ubu bukaba ari ubwikorezi bwiza cyane kandi buhendutse.

Ni umuhanda urimo imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'icyatsi ndetse ifite amahema inyuma bigaragara ko hari ibintu birimo bitwikiriye, gusa si yo yonyine iri mu muhanda hari n'izindi ziyiri inyuma ndetse hari n'indi iyiri iruhande.

imodoka y'ibara ry'umweru yambaye plaque ya RAH053A akaba ari imodoka zikunze gukoreshwa mu gutwara imizigo iva ahantu hamwe ijyanwa ahandi

Ni umuhanda urimo ikimodoka cy'ikamyo, kikaba bigaragara ko nta kintu kirimo, kikaba wenda hari nk'ibintu kigiye gupakurura, kuko kizwiho gupakururira ibintu byinshi icyarimwe.

Ni umuhanda urimo igikamyo kinini, gikurura ibintu inyuma yacyo, ndetse ukaba ugeze ahantu hari imirongo abanyamaguru bambukiramo, ariko icyo gihe bwo nta banyamaguru bahari.

Ahantu hategerwa imodoka rusange zizwi nka bisi. Aho hari abantu bagiye batandukanye baje kuzitega, ubu bukaba ari ubwikorezi cyangwa ubutwazi bw'ibintu n'abantu bwiza mu Rwanda kandi buhendutse.

Ni umuhanda urimo imodoka yitwa igikamyo y'umweru, bikaba bigaragara ko hari ibintu birimo, imbere yayo hari indi modoka nayo ijya kumera nkayo gusa yo mu bwoko butoya.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, muri uyu muhanda harimo ikinyabiziga gifite amapine atatu, ni moto ariko iba ifite amapine atatu, ikaba igira uruhare runini mu bwikorezi kuko itwara ibintu byinshi moto y'indi itatwara.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hano imbere hakaba hari moto cyangwa ipikipiki, kikaba ari ikinyabiziga cyihutisha ingendo mu Rwanda, kurusha ubundi bwikorezi bw'ibintu n'abantu, urugero nka tagisi cyangwa ubundi.

Aha ni ahantu bacururiza imitako igiye itandukanye, ijyanye n'umuco, hakaba hari ibishushanyo by'amasura y'abantu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bifitanye isano n'umuco nyarwanda.

Aha ni ahantu, ahagana hagati mu mujyi wa Kigali, aho abantu bagenda bakicara bakaruhuka ndetse n'abafite akazi bashobora kugenda bakakahakorera, kuko haba hari murandasi y'ubuntu kandi yihuta.

Iki ni ikibuga kiriho abana bari kugenda bakina, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bifasha abantu kuba bakora siporo bityo imibiri yabo ikamera neza ndetse ntibagire n'ibintu by'amavunane.

Iki ni ikimenyetso gikunda gushyirwa ku byapa biba biri ku muhanda, cyerekana ko umutwazi uri gutwarira muri uwo muhanda, agomba kugenda yitonze ntarenze umuvuduko w'ibirometero mirongo itandatu ku isaha.

Aha hari icyapa cyerekana yuko hafi aho hari ahantu hari gukorerwa ubwubatsi, bityo ko imodoka mu gihe zihageze zigomba kwitonda cyangwa zikaba zahindura icyerekezo kugira ngo zitanyura aho hantu kandi hari kubakwa cyangwa gusanwa.

Aka ni akapa gashyirwa ku muhanda, hafi y'ahantu hari kubakwa cyangwa gusanwa, kugira ngo imodoka cyangwa ibindi binyabiziga bihanyura, bihanyure byitonze cyangwa bibe byafata indi nzira.

Uyu ni umuhanda ukaba uriho icyapa cyanditseho sitopu cyangwa bisobanuye hagarara mu kinyarwanda, bikaba bigaragaza ko mu gihe uhageze ugomba guhagarara ukitonda kugira ngo hatagira impanuka yaba.

Iki ni icyapa cyerekana ko umuntu atagomba kurenza ibirometero mirongo ine ku isaha, kikaba gishyirwa mu muhanda kugirango abantu bagende gake bitonze, kugirango hatabaho impanuka.

Iki ni icyapa gishyirwa ahantu hagiye hatandukanye, aho kiba cyerekana ko umuntu atemerewe kuba yahagarika ikinyabiziga cye ndetse ko mu gihe yaba akihaparitse ashobora guhanwa cyangwa akaba yacibwa amafaranga.

Iki ni icyapa, kikaba gishyirwa ahantu bategera ama bisi cyangwa imodoka zitwara abantu rusange, iki cyapa kikaba cyafasha nk'umuntu uje gutega imodoka akayamenya aho ahagarara.

Uyu ni umuhanda, hakaba hari icyapa ku ruhande, kiriho ko utagomba kurenza ibirometero mirongo itandatu ku isaha, ikindi kandi hariho n'ikindi cyerekana ko imbere hari kamera zifotora abantu bari kwica amategeko y'umuhanda.

Ni umuhanda uriho abantu bagiye batandukanye, hariho n'icyapa cyerekana ko ari ahantu wategera tagisi cyangwa ubwikorezi bw'abantu benshi ndetse banerekana ko ushobora kuhaparika mu gihe waba ubikeneye.

Uyu ni umuhanda, hakaba hari icyapa kiranga uwo umuhanda, cyerekana uwo ari wo ndetse muri uwo muhanda harimo imodoka itwara abantu, izi zizwi nka tagisi, ubu bakaba ari ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bwiza kandi bwihuse.

Ni amazu menshi higanjemo ageretse, akaba ari amazu aberamo ibikorwa by'ubucuruzi kuko hagiye hariho ibyapa biranga ubucuruzi bukorerwamo bikaba ari ibintu bigaragara ko umujyi wa Kigali usa neza kandi umaze gusirimuka.

Ni mu muhanda abantu barimo baragendamo, ku ruhande yawo hari akazu k'umuhondo gafunguye gatoya, kakaba ari ak'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, kakaba gatangirwamo zimwe muri serivisi gitanga.

Ni inyubako ndende igeretse kenshi, imbere yayo hakaba hari imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'amapikipiki ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, iyo nyubako akaba ari iya Simba, akaba ari iduka rimwe mu yakomeye mu Rwanda.

Iki ni igipangu muri icyo gipangu hakaba harimo inzu nziza ifite amabati ajya gu gusa umutuku ndetse ikaba ifite n'igisenge bigaragara ko ari imwe muri izi nzu zigezweho ndetse kuri urwo rupangu hariho ibintu bikumira abajura kuba bacyurira.

Ni ahantu hacururizwa imyenda igiye itandukanye yaba iy'abagabo ndetse n'abagore ndetse hari n'ibikapu, imbere yaho hari imodoka ihaparitse bishoboka ko ari iy'umuntu waje guhaha kimwe muri ibyo.

Aha hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse buri ku ruhande y'umuhanda hirya y'uwo muhanda hari indi nyubako igeretse inshuro enye ukabubone ari inyubako nziza ikoreramo ikigo runaka.

Ni umukobwa uri kuvugira kuri terefone wambaye ipantaro y'iroza n'umupira w'umweru. Akaba ahagaze imbere y'inyubako igeretse gatatu, iberamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Ni ahantu hari inyubako iberamo ubucuruzi, aho hari akabari ndetse hakaba hari n'akandi kapa k'umutuku, akaba ari ahantu wajya uri kumwe n'inshuti n'abavandimwe mugasangira.

Uyu ni umuhanda w'amabuye, hakaba hariho n'akapa kawuranga, umuhanda w'amabuye akaba ari imihanda ikunze gukoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ari imihanda myiza kandi iramba.

Ni inyubako ndende cyane y'icyatsi, ikaba iri mu gipangu cy'umukara ndetse ku ruhande yacyo hari ikindi gipangu, iyi nyubako ikaba ishobora kuba ikoreramo kimwe mu bigo bikomeye hano mu Rwanda.

Iyi ni hoteli, akaba ari ahantu abantu bagenda bakaruhukira ndetse haba hari n'amafunguro, ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, imbere ahatwegereye hari abamotari, hari uhetse umuntu, bombi bambaye ingofero zirinda umutwe zisa umutuku.

Ni umuhanda mu masaha ya nijoro aho hari akapa k'ubururu kawurimo ndetse n'amatara ari kwaka, aya matara akaba afasha abagenzi ndetse n'abanyamaguru kugenda neza babona mu muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri ifite ibara ry'umutuku, iyo modoka ikaba iri kugenda mu muhanda, uwo muhanda iruhande rwawo hakaba hari ibiti ndetse n'abandi bantu bari kuhagenda.

Uyu ni umuhanda ukaba uriho abantu bari gusoza kwambuka uwo muhanda bakaba bagiye gutangira undi. Bakaba bari kwambukira ahantu hari imirongo yagenewe abanyamaguru, aho mu gihe bayirimo imodoka ziri kugenda muri uwo muhanda zigomba kuba zihagaze.

Uyu ni umuhanda uriho ubusitani ku ruhande n'ibiti ndetse n'amatara, ubu busitani bukaba ari bwiza cyane, bukaba butuma igihugu cy'u Rwanda gisa neza bikanagitera ishema mu mahanga.

Imihanda irimo abantu bagiye batandukanye, hakaba hari umwe uri kugenda asatira umuhanda wa mbere ngo yambuke, ndetse no hirya hari undi ugeze ku wundi muhanda na we ugiye kwambuka. Ndetse hakaba hari n'imodoka ihagaze itegereje ko arangiza kwambuka.

Ni umuhanda urimo imodoka zirimo ziragenda zitandukanye, hakaba harimo imodoka y'umukara iy'umweru ndetse hari n'igikamyo ubona cyikorera ibintu byinshi, kibivana ahantu hamwe kikabijyana ahandi.

Ni umuhanda, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hari n'ipoto riri ku ruhande riba riri itara, itara rikaba rimurikira abantu bari mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga, bityo ntihabeho impanuka.

Ni abantu bagiye batandukanye bari mu muhanda mu binyabiziga, hakaba hari amapikipiki ndetse n'amamodoka, hakaba hari n'igikamyo kiri ruguru gifite ibara ry'ubururu kiri kuzamuka.